Aha ni ahantu bategurira ingemwe z'ibihingwa bitandukanye ku buryo bwa kijyambere, hubatse neza hakoreshejwe amahema y'icyatsi ndetse kugira ngo bitaza kwangizwa n'imvura birasakaye hakoreshejwe aya mahema y'icyatsi. Bakaba barabikusanyije neza ahantu kugira ngo bazabone imbuto nziza idafite indwara yo guhinga.

Aba ni abayobozi bari mu muganda wo gukorera neza igihingwa cy'ibigori. Bari gushyiramo ifumbire barangiza bakabyuhira neza. Harimo ab'inzego z'umutekano, harimo n'abaturage basanzwe bitabiriye uyu muganda. Urabona ko bishimye bitewe n'uko ibi bigori barimo gukorera bisa neza.

Iyi ni ifumbire y'imvaruganda ya NPKA, hariho ibiganza byambaye ga by'uyu mucuruzi urimo kwerekana iyi fumbire nziza y'umweru, isa neza cyane. Iyi fumbire ikaba ihingwa cyane mu bintu bitandukanye, ariko by'umwihariko ibirayi, kugira ngo bigire umusaruro mwinshi cyane.

Aha ni mu bubiko bw'ifumbire mvaruganda, kandi ubona habitsemo udufuka twinshi cyane tw'ifumbire mvaruganda, iyi fumbire ikaba ikoreshwa mu guhinga, kugira ngo imyaka izere neza ikaba ifatwa nk'inyongeramusaruro.

Aha ni mu murima w'inyanya, uyu mugabo arimo kuzitera umuti kugira ngo ziticwa n'imvura, ahetse icyuma yambaye igisarubeti, izi nyanya ni nziza cyane ziryoshya ibiryo ni nk'ikirungo, baziteka mu nyama no mu bindi biryo bitandukanye, zikaba zigira intungamubiri bikaba bivugwa yuko, ngo zinongerera amaraso umuntu uziriye.

Aha ni mu murima w'inyanya zahinzwe ku buryo bwa kijyambere, zikaba zirimo neza zimeze neza cyane, bakaba bari kuzitera umuti kugira ngo zitagira udukoko dutandukanye. Inyanya zigira uruhare mu kuvura indwara nyinshi, zikaba zongerera n'amaraso umuntu waziriye.

Ibi ni ibiryo by'imvange byaruriye ku isahani, byatekeshejwe amavuta gusa, ndi kuhabona ibirayi nkahabona inyama ntari kumenya ngo ni ubuhe bwoko, ndetse n'ibirungo birimo ibitunguru za sereri ariko by'icyatsi, ikigaragara cyo ibi biryo biraryoshye umuntu ugiye kubirya araza kuryoherwa.

Aya ni amafi barobye barangije barayashandika ku mugozi barayaterura. Ari kwerera cyangwa se ari kunagana. Aya mafi bagiye kuyajyana kuyagurisha kugira ngo agurwe nibarangiza bayarye. Aya mafi bigaragara ko yarobwe muri iki kiyaga, aracyari mashyashya nta bwo amaze igihe kirekire.

Aya ni amafi abiri babaze neza, bayashyira kuri uru rubaho narwo barutereka ku meza, bitegura kuyateka, niyo mpamvu bayabaze gutya, aya mafi ni meza araryoha, ariko nanone akagira uruhare mu gutuma umuntu abyibuha.

Izi ni indagara z'indundi zitaweho zimeze neza ziri ku isoko. Indagara z'indundi zikaba zikoreshwa mu kurwanya imirire mibi ndetse n'igwingira by'umwihariko ku mwana. Umwana wariye indagara amenya ubwenge bwinshi cyane.

Aya ni amafi barobye barangije barayazana bayabika muri firigo, amaramo igihe kirekire hanyuma hazaho barafu. Amafi rero bakaba bayabika muri firigo kugira ngo atangirika, kugira ngo umuntu uzayakoresha nyuma y'igihe kirekire, inyama zitazamugiraho ingaruka.

Aha ni ku kiyaga, ndi kuhabona ubwato bubiri bw'igiti ndetse n'abagabo babiri barimo gutunganya ubwato bwabo ndetse n'inshundura kugira ngo binjire mu kiyaga batangire kuroba amafi, hanyuma bazagarukane amafi menshi bayagurishe bibesheho kandi n'ayo mafi azagira uruhare mu kurwanya imirire mibi.

Aha ngaha ni ahantutu mu kiyaga gitoya kirimo ibirwa bibiri, amazi arasa neza. Kuri ibi birwa hateyeho ibiti byiza byakuze neza hakaba ari n'ibyatsi byiza bigaragara yuko aha hantu ari ahantu h'ubukerarugendo. Ni ahantu hari umwuka mwiza ni ahantu ushobora gutemberera ukaruhuka.

Aha hantu ni ku cyuzi bororeramo amafi, ndikuhabona umugabo ashobora kuba yaje kuroba cyangwa se akaba ariwe nyiri iki cyuzi, akaba yaje kugaburira amafi cyangwa se yaje kureba niba amafi ye arimo gukura neza. Iki cyuzi rero bacyororeramo amafi bacyororeramo ibintu bigiye bitandukanye gishobora no kuba ari igishanga.

Aha hantu ni mu kiyaga cyangwa ahandi hantu haba amazi menshi ,harimo ubwato butatu bw'ibiti ,ndetse n'abantu barimo gutegura inshundura, kugira ngo binjire mu mazi batangire kuroba amafi, nibarangiza bajye kuyagurisha ku isoko ,afashe abantu kuyarya, hanyuma abafashe kugira ngo ari bo biteze imbere, ndetse n'abayariye bagire ubuzima bwiza.

Uyu ni umurima w'ibigori byeze barabisarura barangije abashumba baza kuragiramo inka biragaragara yuko ibi bikenyeri biri hano byavunitse ariko aha hantu hakaba ariho n'ibirunga. Ni mu Karere ka Musanze birashoboka cyane ko haba ari mu Murenge wa Kinigi.

Iki ni igiti cy'umuvumu w'inganzamarumbo， umaze igihe kirekire wakuze cyane， ndi kubona imizi yawo， ndi kubona n'ibindi byatsi byawukuze iruhande. Uyu ukaba ari umuvumu umaze igihe， byibuze kingana n'imyaka itari munsi y'icumi，utewe aha hantu.

Uyu ni umurima barimo guhinga, ariko batararangiza guhinga, kugira ngo bahingemo imyaka itandukanye, bahinga gutya kugirango bahinge ibirayi, kugira ngo bizere neza ubutaka, uko bigaragara ni bwiza cyane, ariko bukaba bukeneye imvura kugira ngo babone gutera ibirayi.

Aha ni mu murima barimo guhinga ariko bakaba batari barangiza guhinga, nibarangiza guhinga gutya bazacukura ibyobo, bazane ifumbire y'ibishingwe, ndetse n'iy'imvaruganda, n'imbuto y'ibirayi, nibarangiza bahinge ibirayi, no hirya hariya hakiri ikibara bagomba kuhahinga, kugira ngo be koneshereza uyu muntu.

Iki ni igihuru kirimo amoko atandukanye y'ibyatsi，hirya ndi kuhabona ibimeze nk'urutoki， hariho isambu y'ibishyimbo， ariko muri rusange iki ni igihuru， ni ahantu hadahinze harimo ibyatsi bigiye bitandukanye， by'amoko atandukanye.

Aha ni mu busitani bwegereye ahantu ku ruzitiro, bakaba batabubagara neza. Biragaragara yuko abashumba bahahiye ubwatsi bitewe n'uko ibyatsi byaho bikase. Harimo ibyatsi bibiri bigaragara neza ko bishoboka ko byaba ari intobo karemba. Izi zikaba zivura nazo indwara zitandukanye, zirimo n'uburozi.

Uyu ni umurima udahinze ariko uko bigaragara aha hantu heza ibigori. Nkurikije uko mbona inyuma, hariho inka nziza zibyibushye, zitanga umukamo mwiza, zifite amabara y'umukara n'umweru. Inyuma ndi kubona n'ibindi biti byiza, uko bigaragara aka gace kakaba kera neza.

Aha ni ahantu mu murima basaruyemo ibigori, bakaba batararangiza kuwuhinga neza. Harimo ibigorigori, hakabamo ibikenyeri, ariko babishyize mu ndego, bakaba bitegura kubihingiraho, bivamo ifumbire nziza cyane, hirya ndikuhabona undi murima uhinze, urimo urutoki rwiza rutoshye rumeze neza, ndetse n'igiti cy'isombe zigira intungamubiri nyinshi cyane.

Iki nigiti cyinganzamarumbo cy'umusave hariho ibigori byumye inyuma yaho ndi kuhabona urutoki rwiza rutoshye. Ikirere kirasa neza hariho ibyatsi byiza cyane bitoshye aha hantu bikaba bigaragara yuko ari mu cyaro.

Uru ni uruzitiro rw'ahantu mu giturage ruhinzeho ikidodoki ,ruhinzeho n'ibihaza byanderera abana. Ndikuhabona agahaza kamwe gafite amateka yuko iyo umuntu agatunze urutoki gahita kabora ako kanya. Izi mboga rero zikaba ziribwa mu mababi yazo cyangwa se bakarya turiya duhaza ,tugira imboga nziza cyane.

Aha ni mu murima batarahinga harimo ubwatsi, bakaba baragiyemo intama. Zikunda kurisha ubwatsi bwo hasi. By'umwihariko umucaca umeze gutya, udafite ibintu byinshi cyane by'imyanda. Aha hantu bigaragara ko bishoboka ko bari barahejeje ibigori.

Aha ni uruzitiro rw'ahantu mu cyaro, hakuzemo igiti cy'isipure kirekire, inyuma ndi kubonamo n'ibiko n'izindi ndabyo zitandukanye, ndi kubonamo n'umusave ukiri mutoya ndetse n'ibindi biti byiza bitoshye by'icyatsi, bigaragara yuko aha hantu ibidukikije byitabwaho.

Uyu ni umurima munini utari wahingwa, bigaragara yuko baragiramo amatungo atandukanye, kugirango ngo arishemo ubu ubwatsi. No hepfo yaho, ndikuhabona undi murima urimo ibikenyeri byinshi cyane byumye, bigaragara yuko aba bantu bataratangira guhinga ngo batere imyaka itandukanye. Ndikuhabona n'ibiti byinshi by'inganzamarumbo by'indumburabutaka.

Aha ni ahantu hasi harunzeho garaviye abaturage bameneye, nta muntu uhari ariko izi garaviye zifashishwa mu kubaka inzu, by'umwihariko mu gupavoma hasi ni bwo bakoresha garaviye, bakayihuza n'umucanga barangiza bagapavoma.

Aha ni ahantu mu murima hahinze amatunda ya marakuja mu buryo bwa kijyambere. Aya matunda akaba ashingiriye biragaragara yuko yatangiye kuzana n'ibitusha ameze neza nyirayo ashobora kuba ayitaho kandi akazayabonamo umusaruro mwinshi cyane.

Aha ni mu murima basaruyemo ibigori, ndabonamo ibikenyeri byumye biryamye hasi, nkahabona igiti cy'ikidariya cyakuze gifite indabyo z'umweru, ndi kuhabona n'ibindi biti bitandukanye, muri iki gihuru biragaragara yuko nyir'uyu murima arimo kwitegura kuwuhinga, kugira ngo ateremo indi myaka itandukanye.

Aba ni abantu barimo guhinga, hirya hariho abandi bantu bari guhinga. N'inyuma yabo hariho abantu benshi barimo guhinga. Birashoboka yuko aba bantu baba bari mu muganda, birashoboka yuko aba bantu baba baje gukora umuganda. Bikaba ari cyo gikorwa gihuza abantu benshi cyane.

Iki ni igiti cy’umwumbati cyeze neza cyane, cyarumbutse, baranduye. Iyi myumbati ikaba ari myiza cyane, biragaragara yuko yakuze cyane. Iyi myumbati ikaba igurishwa ku masoko, cyangwa se n’abantu bakanayirya. Na yo igira uruhare mu mikorere myiza y’umubiri.

Iyi foto ndabona iriho sakabaka yiryamiye ahantu mu ishyamba, cyangwa se mu gihuru iraririye amagi. Andi magi bitewe n'uko uko yateye amagi menshi, ikaba yayasunikiye ku ruhande. Inyamaswa iri mu bwoko bw'ibiguruka, ikaba ikunze kuba ahantu mu bihuru no mu mashyamba.

Aha ni ku bwanikiro bw'ibigori byinshi cyane byeze, ariko butubakiwe neza. Hariho umugore wafashe impungure bigaragara yuko batangiye guhungura ibi bigori, bitewe n'uko bigaragara yuko byamaze kuma neza cyane.

Aha ni ahantu hahinze inyanya ku buryo bwa kijyambere, ndibona inyanya zikiri ntoya zitarera ngo zitukure zibe umutuku, ndikubona umugabo wambaye impuzankano y'umweru ndetse n'ingofero ishushanyijweho ibirango by'ikigo gihinga izi nyanya.

Aha ni ahantu bacururiza imbuto zitandukanye . Ndi kuhabona imyembe irambitse hasi, ndetse n'abagore bari gucuruza iyi myembe bicaye hasi barambirije. Ndi kuhabona ibisheke bitemye bitwikiriwe n'ibase, ndi kuhabona n'ibindi bintu bigiye bitandukanye nk'imyenda ishaje.

Abangaba ni abahinzi barimo gukorera icyayi. Uko mbibona bari kukibagara, hakaba harimo abagabo n'abagore. Ndi kubona harimo abunamye barimo kubagara, abandi bakaba bahagaze by'umwihariko abagabo, biragaragara yuko bishoboka ko ari abagenzuzi babo.

Uyu ni umugore urimo guhinga ahantu haraye cyane. Guhinga ahantu haraye cyane bisaba gukoresha imbaraga nyinshi cyane. Urabona ko ari gukoresha n’isuka, agakoresha n'imbaraga nyinshi cyane kugira ngo aze kubona uburyo amena ubutaka bitewe n’uko ahantu haraye cyane.

Aba ni abahinzi bari guhinga ahantu mu kibaya, ariko uko bigaragara harahinze bakaba bageze igihe cyo gutera, harimo abagabo babiri bashishikaye bari guhinga, ndetse harimo n'abagore ndetse n'undi mugabo umwe, ndetse n'undi mugore wegeranye n'abo bagabo babiri.

Aha ni ahantu bacururiza ibiribwa bitandukanye bigizwe n'amafu. Ndi kubona indobo zuzuyemo ifu zirimo n'ibyapa bigaragaza ubuziranenge bw'ibicuruzwa byabo. Ziteretse ahantu ku meza hasa icyatsi, hakaba ariho n'izindi ndobo zirimo amaronji, zirimo indimu ndetse na tangawizi.

Aha ni ahantu bacururiza imboga z'ubwoko butandukanye ndi kuhabona intoryi n'ubwo zirimo intoryi zashaje nkahabona ibibiriganya biraryoha cyane nkahabona ibitunguru bya onyo by'umutuku ndetse n'ibitunguru bya onyo by'umuhondo ndi kuhabona kokombure hakaba hariho n'imifuka ishaje ndetse n'ikigega cy'umukara.

Izi ni avoka ziri mu giti, zikiri ntoto ariko zenda kwera neza. Iki giti biragaragara yuko cyera avoka nyinshi, nziza, ziryoshye. Uyu muntu akaba yitegura gusarura avoka. Biragaragara yuko izi avoka, iyo zeze neza, zihinduka umukara.

Ibi ni ibisheke by' umutuku bihinze ahantu mu gishanga, ibi bisheke abantu bigira akamaro kenshi, bantu benshi barabikunda bitewe n' uko byoroha, bikaryoha bikaba binavugwa yuko bivura indwara nyinshi byumwihariko ku bagore batwite kuko ngo byongera amaraso.

Izi ni avoka ebyiri, avoka imwe irabumbye ntabwo isatuye, indi avoka imwe bayisatuye isa n'umuhondo, imbere irimo n'ikibuto, irasa neza cyane, ifite ibimenyetso by'uko iyi avoka yaba iryoshye cyane. Abantu bakaba bakunze gusatura avoka kugira ngo bazerereke abakiriya, babone kugura kuri avoka ziryoshye cyane.

Ibi ni ibirayi by'umweru hakaba habaho amoko atandukanye y'ibirayi by'umweru, habaho kuruza, habaho rwangume, habaho peko n'amoko menshi y'ibirayi by'umweru abantu benshi ntibabikunda, abantu bikundira ibindi birayi bisa n'umutuku bya Kinigi.

Izi ni avoka nziza cyane, harimo ebyiri zibumbye zidasatuye, hakabamo n'imwe isatuye irimo ikibuto, bayisatuye kugira ngo berekane ubwiza bwazo ko ziryoshye. Izi avoka zikaba zishya zisa n'umukara, abantu benshi barazikunda cyane, zikaba ziryoha cyane iyo umuntu azirishije ibijumba.

Iki ni ikijumba baranduye babona cyeze neza, keze ibijumba byinshi cyane biragaragara ko ibi bijumba biryoshye, ni imbuto y'umutuku, ibijumba abantu benshi bakaba babikunda byeze mu butaka bw'umukara, bigaragara yuko byari birimo ifumbire nyinshi cyane.

Aha ni ahantu mu bubiko bw'ibintu bitandukanye by'umwihariko ndi kubona habitsemo voka ziri mu gikarito ziteza neza, ndikuhabona ko bashobora kuba bakora amasabune bakoze muri izi voka, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye nk'amavuta yo mu musatsi.

uru n'urukwavu rwiza rufite amabara y'umweru rworowe mu buryo bwa kijyambere. Rurimo konsa ibyana byarwo bigeze muri bitanu, bikaba bigaragara y'uko uru rukwavu rushyishe nyirarwo akaba yararworoye neza. Ku buryo bwa kijyambere ndetse n'ibyana byarwo bikaba bigaragara ko bidafite uburwayi na bumwe.

Iki ni igiti cya avoka z’imbangurire. Ndi kubona avoka zikiri ntoto, zitarera, zifite amababi atoshye neza cyane. Bigaragara yuko iyi avoka nyirayo yayitayeho akayikorera, ubungubu ikaba imeze neza cyane.

Ibi ni ibyatsi byitwa inyamapfundo, biri inyuma ahantu mu gihuru, inyuma y'iriya nzu ifite amadirisha adafunze neza, ndabona n'amabuye y'amakoro, aya mabuye akaba aboneka i Musanze, ni amabuye aturuka ku birunga.

Aha ni mu murima hateyemo ibihingwa bitandukanye, ariko bimeze neza bifite ibara ry'icyatsi, bigaragaza yuko bishobora kuba bitoshye neza, byarafashwe neza, harimo n'utumashini dushinzwe kuvomerera, ibi ibihingwa bitewe n'uko aha hantu haba izuba ryinshi cyane.

Aha ni ahantu hakusanyiriza ibitoki bimaze gusarurwa, bitegereje abaguzi. Ibi bitoki biragaragara yuko ari ibitoki biribwa. Ibitoki bikaba bikunze gukundwa n'abagore cyane, bakaba abagabo bo batabikunda, ntibabyiyumvamo bitewe n'uko ibitoki bakunze kubyita ngo ni ibiryo by'abagore.

Iri ni ipera rimwe riri mu giti hejuru kimeze neza gitoshye, iri pera rikaba rigisa n'icyatsi rikaba ritarera uriye iri pera ntabwo ryaba ari ryiza, ariko biragaragara yuko iri pera risigaje igihe gitoya rikabona gutukura, hanyuma umuntu akaba yemerewe kurisarura akarirya ryeze neza cyane.

Uyu ni umukecuru urimo gutambagira umurima we w'ibigori akaba arimo kubibagara ndetse uko bigaragara akaba arimo gukuramo ibyatsi by'ibyonnyi. Uyu mukecuru bigaragara yuko ari umukirisitu gaturika bitewe n'uko mbona yambaye ishapure mbona uko yambaye. Uyu bikaba bigaragara nanone ko ashobora kuba ari guhungikamo ibishyimbo.

Iki ni igitoki cy'imineke ya kamara cyeze neza, ariko bakaba baratinze kugisarura, iyi mineke iraryoha abantu benshi barayikunda, ku masoko ubu usanga abantu bayigura nk'abari gucuranwa amasuka, iyi mineke ya kamara abantu bakaba bayikunda by'umwihariko, kugira ngo bayigaburire abana babo, usibye ko n'abantu bakuru barakamira kakaryoha cyane.

Iyi ni avoka imwe iri mu giti ariko ikaba iteza, iyi avoka uramutse uyiciye ukayitara, ntabwo yashya bitewe n'uko iteze, urategereza ikera ikagaragaza ko ibimenyetso by'uko yeze.

Uyu ni umugore uri mu murima we, akaba arimo kubagara ndetse no guhungika ibishyimbo muri uyu murima, akaba uko mbibona ari umukatorike bitewe n'uko yambaye ishapure, yambaye ijipo y'umukara, yambaye ndetse n'undi mupira ukozwe mu gitenge, akaba yiteye n'ikindi gitenge mu mutwe.

Ibi ni ibirayi birunze hasi byinshi cyane by'umweru. Ibi birayi abantu benshi bakaba badakunda kubirya bitewe n'uko ari ibyumweru. Bakunda ibirayi by'umutuku byo mu mbuto ya kinigi nibyo abantu bakunda cyane.

Aba ni abagabo babiri bacuruza inanasi ku magare, ndi kubona inyuma, hariho abandi bantu babashagaye babishimiye, bitewe n' uko izi nanasi zimeze neza, ibigaragara byo aha hantu hera inanasi nziza cyane.

Aba ni abantu bahinze ibijumba barangije bajya kubikura, bamaze kubikura havamo ibijumba byinshi byiza binini barabyishimira. Bakaba bari kubyereka uyu mugabo, kugira ngo abagurire ibijumba byabo by'umweru. Ibi bijumba bikaba bifufuka, ikaba ariyo mpamvu abantu benshi babikunda.

Aha ni ahantu hacururizwa ibiribwa bitandukanye byiganjemo imbuto. Ndi kubona n'avoka z'ubwoko bubiri hari avoka z'umukara n'avoka z'icyatsi. Hariho n'umuneke umwe usa n'ushaje, wahiye cyane. Ndi kubona n'inyanya ebyiri, ndetse n'indobo irimo ubunyobwa n'agakoroboyi ko kubupimisha.

Uyu ni umukecuru urimo guhingisha isuka wambaye ibirenge, akaba yambaye ishapule bigaragara yuko yahinze ahantu hanini cyane, akaba yitegura gutangira guhingamo imbuto zitandukanye. Akaba uyu mukecuru nkurikije kuba yambaye ishapule asengera mu idini ry'abanyagaturika.

Iri ni iduka ricuruza imbuto zitandukanye, ndi kuhabona imyembe nkahabona imineke myiza nkabona pome, nkabona inanasi nkahabona wotameloni n'izindi mbuto zigiye zitandukanye, amatunda y'amanyarwanda, ibinyomoro, aha hantu bakaba bahacururiza imbuto nyinshi cyane.

Aba bantu bari gusarura ibigori byumye neza cyane. Ndikuhabona abantu benshi barimo abagabo n'abagore. Uyu mugore ugaragara cyane afashe ikigori birashoboka yuko ari icyo bamuhaye ngo ajye kotsa. Hariho abandi bantu nk'in inyuma ye nabo bari kureba imbere uburyo uyu mugore ahagaze neza.

Aha ni mu nyubako y'ububiko bw'uruganda, rukora umuceri. Uyu mugabo urabona yuko yishimye, yatangajwe no gusura uru ruganda, yambaye ingofero y'umuhondo, yambaye itaburiya y'umweru, nkurikije uko yambaye na karuvati, akaba ari umuntu ukomeye, waje gusura uru ruganda, byanashoboka yuko yaba ari na nyirawe.

Aba ni abantu bari kugenda mu nzira yaretsemo amazi, bakaba batangariye umurima barimo kubona uhinzemo umuceri, ni ahantu mu gishanga urabona ko amazi barimo kuyakikira. Imbere hariho umugore urimo guseka, inyuma hakaba harimo umugabo wambaye ishati ya karokaro ndetse n'abandi bagore babiri n'undi mugabo wambaye ibintu by'umweru.

Ubu ni ubunyobwa basaruye, barabwanika, butangira kwivana mu bikonoshwa byabwo. Harimo ubunyobwa bwiza cyane bw'indobanure, ariko biragaragara yuko hariho n'ubundi bunyobwa, butari bwava mu bikonoshwa byabwo, baracyakeneye kubwanika igihe gitoya.

Aka ni akamashini gateka injugu mu bigori. Uko bigaragara zarase , zabuze abakiriya. Izi njugu rero zikaba zigira akamaro kenshi ku mubiri w'umuntu uziriye cyane ko zikorwa mu bigori bya mayizori bya bindi by'ibinyarwanda.

Izi ni avoka ziri ku mitemeri y'uduseke, ni ho ziteguye bakaba bari mu imurikagurisha, ariko uko mbibona izi avoka zikaba zidahiye bakaba bari mu imurikagurisha gusa, kugira ngo berekane amoko atandukanye y'avoka borora.

Aba ni abahinzi b'ababyeyi bari guhingisha amasuka ahantu ku musozi, barishimye, hariho n'abandi bari inyuma ariko ntibagaragara neza. Ndi kubona n'ibindi biti biri inyuma yabo bitoshye ahantu ku musozi, rwose biragaragara ko bimeze neza.

izi ni ipuleteri urabona ko zifite indabyo z'umweru n'utuntuw'umuhondo .Akaba arizo basoroma biragaragara yuko izi puleteri zeze neza ,zigeze igihe cyo kuzisoroma . Ipuleteri bazikoramo imiti igiye itandukanye yo gufasha ibihingwa gukura neza.

Uyu mugabo ari gusarura ibigori byumye, arishimye, afashe imishandiko y’ibigori mu ntoki. Ubundi, gusarura ibigori ni byiza ko ubanza ureka bikuma, bigacurika hasi ku butaka, warangiza ukabona kubisarura byumye neza, bifite impeke zikomeye, nibwo biramba.

Izi ni avoka zimanyuye bigaragara yuko zimeze neza, ziraryoshye bitewe n'uko avoka iryoshye iba isa n'umuhondo imbere. Avoka ebyiri zikaba zirimo ikibuto. Ikindi gisate kimwe bakaba bakuyemo ikibuto. Ndabona hakiriho n'indi voka imwe batarakata, na yo bayikase byaba bimeze neza cyane.

Aba ni abantu benshi cyane bari ku muganda, bari guharura umuhanda bafite amasuka barashishikaye, kugira ngo babone umuhanda mwiza cyane, ubugendererane muri aka gace bube bwiza cyane, ndi kuhabona abantu b'ingeri nyinshi harimo abagabo bakuru, harimo abagore, ndetse n'abasore, bose nabo bafite umuhate wo kugira ngo bagire umuhanda mwiza.

Aha ni mu murima uteyemo ibirayi bitabagaye. Ndi kuhabona igiti cy’umusipuri kitameze neza, bitewe n’uko cyagize amashami menshi cyane. Ndi kuhabona n’uruzitiro rw’amabuye. Uru ruzitiro bakaba barwita ngo ni urutonde, rugira uruhare mu kurinda abajura ko bakwinjira iwawe. Uruzitiro rw’urutonde rukaba rukomera cyane, by’umwihariko.

Izi ni soya barimo gusuka hasi kugira ngo bazanike ku zuba zere babone uko bazibika. Soya zikoreshwa mu buryo butandukanye bashobora kuziseshamo igikoma zikaba zigira intungamubiri nyinshi cyane zikaba zibarwa mu bwoko bw'ibyubaka umubiri, zikaba zifasha mu by'umwihariko mu kurwanya imirire mibi ndetse n'igwingira.

Iyi ni imbuto y'ibishyimbo by'umutuku birobanuye neza biragaragara ko nta cyaboze kirimo. Harimo akamamiyo ndetse n'umufuka bahunikamo imbuto. Ibi bishyimbo bigaragara yuko umuntu wabibitse, ashaka kuzabihinga.

aya ni' amashaza y'ibisate agira intungamubiri nyinshi, akungahaye ku byubaka umubiri ibirinda indwara ndetse n'ibitera imbaraga, aya mashaza akaba by'umwihariko agira uruhare mu kwirukana imirire mibi, ndetse n'igwingira ku bana batoya

Uyu ni umurima w'ingano zitarera neza, ariko nziza zatewe ku buryo bwa kijyambere. Zihinze ahantu mu kibaya. Izi ngano zikaba zibura byibuze nk'amezi atatu kugira ngo zere neza, abantu bazisarure, nibarangiza bazihure, bazitegure zitekwemo igikoma.

Ibi ni ibihwagari bigeze muri bitatu, ndetse n'ikindi gikoresho kirimo inzuzi z'ibihwagari. Ibi bihwagari abantu bakaba bakunze kubyifashisha, bari gukora amavuta meza cyane yo gutekesha ibyo kurya. Aya mavuta akaba ari meza ku buzima bw'umuntu, akaba avura indwara zitandukanye.

Uyu ni umugore wambaye ikanzu ikoze mu gitenge, akaba yambaye n'agapfukamunwa, afite umusatsi mwiza w'umukara, akaba arimo kurobanura ibishyimbo kugira ngo aze kubonamo imbuto. Uko bigaragara ibishyimbo byaboze nibyo ari gushyira mu ibase, ibikiri bizima akaba aribyo akurura yiyegereza.

Aya n'amasaka basaruye mu murima, barangije barayanika bayashyira ku meza, amasaka akoreshwa ibintu bitandukanye, bashobora kuyasheshamo ifu, iyo fu bakayitekamo igikoma, amasaka bayakoresha inzoga, bayakoresha ibigage, ndetse n'ibindi bintu bitandukanye, akaba agirakamaro ku mubiri w'umuntu.

Izi ni imbuto zitandukanye. Ndi kuhabona ibishyimbo byiza cyane, by’indobanure, abantu bitegura guhinga. Ndi kuhabona ibishyimbo by’umukara, ibishyimbo by’umweru, ibishyimbo by’umuhondo, ibishyimbo by’umutuku, ibishyimbo bifite amabara y’umweru n’umutuku. Ndetse, nkahabona n’imbuto zigiye zitandukanye, nkahabona soya, nkahabona ndetse n’amashyaza.

Iki ni ikigega cya kinyarwanda, abahinzi bahunikagamo imbuto zitandukanye, kugira ngo zimere cyangwa se zinatungane neza, babone kuzihinga. Uko bigaragara kiri ahantu mu rurukari, ahantu h'umuco wa kinyarwanda.

Iki ni ikirundo cy'amashaza babitse nabi, ahantu hatose mu mazi yarangiza akamera. Ni ukuvuga kubika amashaza urayanika neza, ukayabika ahantu humutse kugira ngo adahura n'amazi, akaba yamera nk'uku nguku aya ngaya yamaze kumera.

Aha ni ahantu hahinze amashaza mu buryo bwa kijyambere yo mu mufuka. Bakaba bari kugerageza uburyo bwo guhinga aya mashaza bushya, hanyuma bakazatangaza ubushakashatsi n'abaturage bakamenya uburyo bwo guhinga aya mashaza mu mifuka, bikaba bitanga umusaruro mwiza cyane.

Ibi ni ibishimbo by'amoko atandukanye, ndi kuhabona ibishyimbo by'umuhondo, nkahabona ibishyimbo by'umukara ndetse n'umweru, nkahabona ibishyimbo birimo akabara k'umutuku ndetse n'umukara, ni ibishyimbo byiza cyane, iyi ikaba ari imbuto y'indobanure yo gutera ahantu kugira ngo uzabone umusaruro mwiza cyane.

Uyu ni umuntu urimo gusoroma amashaza ya kizungu , meza yeze neza cyane. Aya mashaza akaba agira intungamubiri nyinshi akaba by'umwihariko afasha abana gukura neza akabarwanya imirire mibi ndetse n'igwingira . Amashaza rero arahenda ku masoko, akaba adakunze kuboneka cyane.

Iyi ni imbuto y'ingano z'indobanure ziri mu biganza by'umuzungu, ingano zikaba zitekwamo imbada, zitekwamo igikoma, bazitekamo umutsima, ingano zikaba zigira uruhare mu gufasha ubwonko gukora neza, zikanafasha abantu gukura neza, ni nziza cyane kuzihereza abana bazinywamo igikoma, baziryamo umutsima cyangwa se ukanabaha imbada zakozwe mu ngano.

Uyu ni umugore urimo kurobanura ubunyobwa yicaye hasi yabusutse ku mufuka nyuma yo kubusarura iruhande rwe hahagaze umugabo wambaye kambambili uyu mugore we akaba yambaye ibirenge akaba akenyeye igitenge gishaje yambaye agapira k'umuhondo gashaje akaba yiteze n'igitambaro gisa n'umweru ariko nacyo cyashaje cyanduye.

Aya ni amajeri y'ibisate, aya amajeri akakaba agira intungamubiri nyinshi cyane, akaba avura indwara nyinshi cyane ,by'umwihariko aya majeri akaba afasha abantu gukura neza cyane, akaba afasha abana mu kurwanya imirire mibi ndetse n'igwingira.

Uyu ni umurima munini cyane w'ibishyimbo byahinzwe kijyambere byiza byafashwe neza, byahinzwe kuburyo bugezweho. Ibishyimbo nyira byo akaba abiteganyamo umusaruro mwinshi cyane, bitewe nuko ubona bitoshye bifite amababi meza ,bigaragara yuko babyitayeho neza bakurikije amabwiriza yose agenga ubuhinzi bw'ibishyimbo nk'ibi ngibi.

Aba ni abagore batatu b'abahinzi bagiye gutambagira isambu yabo bagatungurwa no gusanga ibyo bahinze byeze ariko biragaragara yuko amasaka ahinze muri uyu murima atameze neza. Biragaragara yuko n'imyaka y'aha hantu itameze neza, bigaragara yuko iki gishobora kuba ari igice cy'izuba cyangwa se kitabona imvura ihagije.

Iyi ni imifuka y'umuceri bamaze guhura bayipakira muri iyi mifuka harangije kugira ngo imodoka zize kuwupakira. Harimo igikamyo kimwe barimo gupakira ndetse n'abantu benshi barimo gupimura ibyo bejeje kugira ngo babone uko bishyurwa amafaranga yabo.

Izi ni ingano bamanitse ahantu mu bwanikiro, kugira ngo zume neza. Nibarangiza bazihure nibamara kuzihura, bazibeteshemo ifu. Ifu bayitekamo imbada, bayitekamo umutsima, bayitekamo igikoma, n’ibindi biribwa bigiye bitandukanye nk’amakaroni.

Aha ni ahantu hakusanyirizwa umuceri weze ahantu mu gishanga, hakaba hariho imifuka myinshi cyane n'abantu barimo kubipimura kugira ngo bamenye umusaruro bejeje bitegura ko bakohereza uyu mu umusaruro wose mu nganda kugira ngo utunganwe neza abantu batangire bawugure ku masoko.

Iyi ni imbuto y'ibishyimbo by'umutuku, ibi bishyimbo bikaba birobanuye neza nta kibazo kirimo, ubishaka wabihinga ariko ibi bishyimbo biraryoha cyane, bikaba bikungahaye no ku ntungamubiri zifasha umuntu gukura neza. Ibi bishyimbo bifasha n'abagore by'umwihariko kongera amaraso iyo batwite.

Aha ni mu butaka burimo kumeramo inzuzi zitandukanye. Izi ngemwe zikaba zimeze neza cyane, zikaba zitoshye, ziri ku butaka bugaragara ko bufite ifumbire nziza y'imborera. Aba bantu bakaba bateganya kuzafata izi ngemwe bakazitera ahantu, bakabona umusaruro.

Aba, ni abantu bari gusarura ubunyobwa mu murima . Uko bigaragara, bweze neza. Urabona ko bishimye , ni abakobwa babiri bishoboka ko haba harimo n'umugore . Ariko, uko mbibona , ntabwo aba bakobwa babiri barashaka! Ubunyobwa bwareze , bumeze neza. Bukaba buteye ahantu mu gihuru.

Izi ni soya batumbitse mu mazi kugira ngo zibanze zimere babone kuzitera, guhinga soya barabanza bakazifata bakazitumbika mu mazi zamara kumera bakabona kuzihinga, kugira ngo zitazapfira mu butaka, izi soya zikaba ar'ubwoko bwiza, umuntu uzazihinga akaba azabona umusaruro uhagije.

Uyu ni umugore urimo kugosora ibishyimbo akoresheje intara, yicaye ku gasongabugari, akaba yicaye ahantu harimo inzu za mivirigo, biragaragara yuko aha hantu haba ikigo cyigisha ibijyanye n'umuco wa kera wa kinyarwanda.

Aba bantu babiri bari kurobanura ibi bihingwa, barangiza bakabishyira muri iyi shashi y'umukara, hasi barambitseho ishashi y'umukara, barangije babisukaho, umwe ari kurobanura akoresheje ako kagemeri, yarangiza agasuka muri iyo shashi, wasanga nanone bari kubigurisha ntawamenya.

Iyi ni intama iziritse ahantu mu gihuru hariho ubwatsi bwiza butoshye kugira ngo ize kurisha ihage bitume ishisha iyi ntama iziritse umurunga ushaje urimo amapfundo menshi ndi kuhabona amabuye y'amakoro nkabona n'uruzitiro rutarafata neza biragaragara yuko aha hantu ari mu gikuyu.

aha ni mu kigo bavuriramo amatungo by'umwihariko kandi ndikuhabona inka nziza yarwaye iri kuvurwa n'abaganga batatu bakaba bayishyize muri ako kazu kugira ngo itaza kubatera amahane babone uburyo bayikorera ubuvuzi butandukanye burimo no kuba bayitera urushinge

Iyi ni ingurube iryamye ahantu hasukuye mu kiraro cyubakishije imbaho uko bigaragara nyir'i iyi ngurube akaba ayitaho. Iyi ngurube ikaba izengurutswe n'ibyana byayo byinshi bitandukanye uko mbibona ikaba iherutse kubibwagura vuba aha ngaha.

Aha ni ahantu bororera inka ku buryo bwa kijyambere, uyu ni umugabo ufashe indobo akaba yambaye n'utuganza two kwa muganga, yambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ingofero y'umukara, akaba arimo guseka yambaye na bote uyu mugabo akaba ariwe worora izi nka ku buryo bwa kijyambere.

Aha ni ahantu mu rugo rw'umuntu bororera amatungo atandukanye by'umwihariko inka, ndi kubona hameze neza hasize sima harimo n'abagabo babiri bororeye inka, ndi kubona ikigega cy'amazi, ndi kubona ibiraro byiza cyane ,aha hantu hakaba hafite n'isuku muri rusange.

Aba ni abavuzi b'amatungo by'umwihariko ingurube, bateruye ikibwana cy'ingurube kugira ngo bakivure, urabona ko kirwaye ariko na cyo ukirebye urabona ko ni ikibwana cy'ubwoko bwiza, ni umugabo n'umugore, umugore arimo guseka bose biragaragara yuko bishimiye umwuga bakora wo kuvura amatungo by'umwihariko ingurube.

Aba ni abantu bari mu nteko y’abaturage. Ndi kubona umuyobozi uhagaze, arimo kubaha ikiganiro kuri gahunda zitandukanye za Leta, kugira ngo bamenye amategeko n’amabwiriza byo kubahiriza, ndetse n’izindi gahunda zitandukanye za Leta.

Iyi ni inkoko y’igisake cy’Ikinyarwanda, kiri kugenda ahantu mu bwatsi butoshye, kiri gushaka ibyo kurya, kiri gushaka utunyorogoto n’utundi dusimba dutandukanye two kurya. Iki gisake cy’Ikinyarwanda biragaragara y’uko gikuze, kikaba kiri gushaka inkokokazi yo kubangurira.

Aba ni abantu borojwe amatungo magufi ,mu Rwanda hakaba habaho imiryango myinshi y'abagiraneza yoroza abantu amatungo magufi ,urabona ko babyishimiye bafashe imirunga, harimo ndetse n'uyu nguyu wishimiye cyane kuba yahawe ihene, arangije arayiterura.

Aba ni abaganga bari ahantu mu bitaro, mu nzu y'ibagiro, bakaba barimo kubaga umuntu. Aba baganga bambaye imyambaro abaganga basanzwe bambara mu ibagiro, bambaye uturindantoki, bambaye udupfukamunwa, ndetse n'ingofero n'amataburiya menshi agiye atandukanye. Bakaba barimo umuzungu umwe, ndetse abandi batatu bakaba ari abirabura.

Aha ni ahantu mu rugo rw'umuturage woroye ihene nyinshi, zigeze muri zirindwi cyangwa se umunani, zikaba ziziritse kuri ibi biziriko, zambaye imirunga mu ijosi, bitewe n'uko mu kanya gatoya, baraza kuzizitura bazijyane kuziragira.

Iyi ni inka ya kijyambere, yorowe neza, yororewe mu kiraro cya kijyambere, ndabona harimo n'indi nka ifite ibara ry'umweru n'umukara, iyi nka ikaba irimo kurisha ubwatsi, ariko bigaragara yuko iyi nka yorowe neza, irashishe imeze neza nta kibazo ifite.

Ibi ni ibibwana by'ingurube bitanu byiza, biryamye ahantu mu kiraro cyubatse ku buryo bwa kijyambere. Biragaragara y'uko byariye neza, birashishe, nta n'uburwayi bifite, nyirabyo akaba abikurikirana neza nkurikije uko bigaragara.

Aha hantu ni mu gikuyu gifite ubwatsi bwiza butoshye bigaragara yuko imvura irimo kugwa ubwatsi bukaba bwarakuze neza harimo ishyo ry'inka nyinshi z'inyambo ziteze amahembe neza zirimo kurisha bigaragara yuko iki gikuyu ari icy'umuntu wifashije.

Aha ni ahantu bororera inkoko ku buryo bwa kijyambere, ndikuhabona inkoko nyinshi cyane ziri mu nyubako, yubakishije amatafari adahiye biragaragara yuko nubwo aha hantu bahororeye inkoko, iyi nyubako ikaba itaruzura neza ifite indi mirimo myinshi, ibura yo kuyikoreraho kugira ngo ibe yuzuye neza.

Izi ni inka nziza ziri mu gikuyu, urabona ko iyi nka irabyibushye, iratoshye imeze neza cyane, iri mu gikuyu gifite ubwatsi bwiza. Ibigaragara ni uko nta mapfa ari muri iki gihe ,imvura iragwa . Akaba ari yo mpamvu ibyatsi byakuze neza, izi nka zikaba zifite ibyo kurya.

Aha ni ahantu bororera ingurube mu kiraro cya kijyambere ,harimo umugabo usanzwe uzorora w'umusirimu ,ubyibushye wambaye umupira w'umutuku ndetse n'ipantaro y'ikoboyi ,n'inkweto zifunguye, akaba ari we worora izi ngurube, biragaragara yuko hari abashyitsi bari bamusuye baje kureba uburyo yororamo ingurube.

Aha ni ahantu bororera inkoko ku buryo bwa kijyambere hakaba harimo inkoko z'umukara ziri mo utubara tw'umweru harimo n'inkoko z'umweru. Izi nkoko nkurikije uko nzibona zikaba ari inkoko z'inyama barazibaga zikavamo inyama nziza cyane ziryoha kandi zoroha.

Uru ni urukwavu rw'umweru rwiza rubyibushye, ruherutse kubyara ruryamye ruri konsa ibyana byarwo, rwororewe ahantu heza cyane, biragaragara yuko uru rukwavu rusasiye ibishogoshogo by'ingano, rukaba rwarafashwe neza bikaba ari yo mpamvu rushishe n'ibyana byarwo.

Iyi ni inyubako ya kijyambere bororeramo inkoko, haba harimo ibyuma bituraga amagi hakavamo imishwi, barangiza bakayorora, ndi kubonamo ibyuma bitandukanye by'ikoranabuhanga, harimo ibigira umumaro wo kongerera ubushyuhe izi nkoko, hakabamo n'amatara byose bikaba bihuriza hamwe kugira ngo izi nkoko zororoke neza.

Uyu ni umwana urimo gukina n'inkoko urabona ko yinaganitse ku murizo w'inkoko imwe. Izi nkoko ni eshatu bikaba bigaragara yuko ari inkoko z'inyarwanda zitera amagi meza cyane, ndi kubona inkoko imwe iziritse akaguru. Inkoko bazizirika kugira ngo zitona imyaka zikagira ibintu byangirika bigaragara ko aha hantu nuko bishoboka cyane ko haba mu cyaro.

Aka kanyamaswa kitwa ifumberi, ni akanyamaswa k'ishyamba gafatwa nk'agahene ko mu ishyamba, abahigi mbere baragakundaga, bitewe n'uko ngo kagira inyama ziryoshye kandi zoroshye cyane, ubungubu amategeko y'igihugu akaba arengeraho utunyamaswa nk'utungutu, birabujijwe ko umuhigi yarya akanyamaswa nk'akangaka.

Ndi kubona ibishuhe bisa neza byitegura kujya mu mazi gushaka ifi. Ibishuhe bikaba bikunda ahantu ku ruzi bitewe n'uko ariho haba amafi, biroba amafi byarangiza bikayarya, bigashisha neza nk'uku nguku ubibona. Ibi bikaba na byo biba mu bwoko bw'inyoni, bikaba binaguruka, usibye kuba bizi koga neza cyane.

Iyi ni inzoka y'umukara, iyi nzoka ikaba ari mbi cyane, ikaba ifite ubumara bwinshi cyane, umuntu irumye ahita agira uburwayi bukomeye, ariko izi nzoka zikaba zitaboneka ahantu hakonje, zikunze kuba ahantu hashyuha cyane.

Izi ni indabo nziza cyane, zirimo indabo z'umuhondo hakabamo indabo z'umweru, ndikuhabona n'ibyatsi byiza cyane, hariho akanyoni kahahagaze ubona ko gasa ni indabo, bikaba bijyanye mubyukuri.

Iki ni igisiga gihagaze hejuru mu giti mu bushorishori, kiri gucunga ahantu hari inkoko, kugira ngo gisimbuke gifate udushwi twazo ,kuko iki gisiga kibeshwaho no gucunga ahantu hari udushwi cyarangiza kikaba kirakarashe kikakarya.

Iki ni igisiga kimaze kuroba ifi mu nyanja kikayigurukana hejuru kugira ngo kiyijyane ku nkombe kiyirye, ibi bisiga bisanzwe biba ku nkombe z'ibiyaga, ku nkombe z'inzuzi zitandukanye, kugira ngo zirobe amafi yo kurya.

Iyi nyamaswa bayita inkende, zikaba ziba mu ishyamba, ariko hariho n'izindi ziba mu baturage. Izi nyamaswa icyo nziziho, zikunda kurya imineke, zikunda kurya n'imbuto zigiye zitandukanye, zikaba zibana n'abantu.

Iyi nyamaswa bayita isatura, ikaba ari ingurube y'ishyamba, urabona ko isa naho iri kwirukanka, bigaragara yuko iri gushaka icyo kurya, ikaba iri guhiga. Iyi satura ikaba ari inyamaswa ikaze cyane.

Aka ni agasimba ko mu bwoko bw'inyoni, gafashe agasimba kamaze gutoragura hasi kugira ngo kakarye, aka kanyoni kakaba gafite amasunzu nubwo tutakita umusure, gafite n'utubara twiza turimo umweru n'umukara, ndetse n'akabara kagiye gusa n'umuhondo.

Aka ni agaca karimo kuguruka ngo gafate inkoko. Aka gaca kakaba gafata inkoko, kugira ngo kayirye gakunze kuyicunga, kakihisha ahantu hejuru mu kirere, hanyuma kagacunga inkoko kugira ngo kayifate kayirye. Gatungwa n'inkoko, ndetse n'ibindi biguruka bifite intege nkeya.

Iyi ni inyoni y'inyamanza iri ahantu mu gishanga, ikaba irimo gushaka utunyorogoto, ndetse n'utundi dusimba dutandukanye two kugira ngo iturye irusheho kubaho neza. Inyamanza ubusanzwe mu muco Nyarwanda ni inyoni nziza bavuga yuko zitera ishaba, zikaba zihagarariye ubwoko by'umwihariko bw'abagesera.

Iki ni igisiga kirimo kuguruka kiri hejuru mu kirere ndi kubona ikirere gisa neza biragaragara yuko izuba ryari ririmo kuva. Iki gisiga kikaba gitunzwe no kuroba amafi kikaba gitunzwe no gufata imishwi cyarangiza kikayica kikayirya.

Iki ni igisiga gihagaze ahantu mu bushorishori bw'igiti, kikaba gihagaze ku ishami, kiri gucunga ahantu haba hari inkoko ifite udushwi, kugira ngo kirebe uburyo cyahagurukira gifate agashwi ko kurya. Kikaba nanone kiri gucunga mu mazi, kugira ngo kirebe ko cyabonamo ifi yo kuroba.

Uyu ni umusambi wagurukiye ahantu mu rugo rw'umuntu, hanyuma arawitegereza abona ari mwiza. Uyu musambi uba ufite amasunzu menshi cyane, ugira amabara meza y'umweru n'umukara, ukagira amaguru maremare. Ukaba ari inyamaswa yo mu bwoko bw'inyoni, nazo zikurura ba mukerarugendo.

Iki ni igisiga kiri mu bushorishori bw’igiti, kikaba gihagaze ku ishami ry’iki giti, hanyuma kiri kuruhuka bitewe n’uko cyari kimaze umwanya munini kiri kuguruka. Gishobora kuba na none kiri gucunga ahantu boroye inkoko, kugira ngo gisimbuke gifate umushwi wo kurya.

Iyi ni imisambi iri mu gishanga, kugira ngo irebe udusimba dutandukanye two kurya; ikaba irya amafi, ikaba iry' ibintu bitandukanye, utunyorogoto n' ibindi bintu bitandukanye biba hano mu gishanga; iyi misambi ni myiza ni mu bwoko bw' inyoni, ariko nazo zikurura ba mukerarugendo.